inyubako y'amashuri ifite amabati g'icatsi n'amadirisha gafite ibirahure. Imbere yayo hari ikibuga ca basikete gifite na paniye, hariho na jaride irimo umukindo.

Abanyeshuri bari gukora etide bambaye amashati g'umweru, amakaramu g'ubururu, bari kwandika ku makayi gafite impapuro z'umweru ku meza gubakishijwe imbaho, inyuma hariho inzugi z'amabara g'ubururu.

Inzu irimo abantu b'ingeri zitandukanye: Abambaye imipira y'ubururu n'umuhondo barimo barananura amaguru, bicaye mu nzu ifite amadirishya afunguye, harimo n'abahahagaze.

Umusudizi wambaye itaburiye y'ubururu, yambaye na kasiki inyuma ye hariyo ingorofani, yambaye ga z'umutuku ,hakurya ye hariho umuntu utagaragara wambaye isarubeti y'ubururu na ga z 'umutuku ndetse hariho n'inzugi za mitalike.

Umunyeshuri wambaye ishati ifite amabara g'umweru n'ag'ubururu n'ikaramu y'ubururu, imbere ye hari impapuro ari gutekereza na telefone iruhande rwe, hirya ye hari abanyeshuri bambaye imipira z'amabara g'ubururu n'amapantaro g'ubururu.

Abanyeshuri bambaye amasarubeti ga kaki harimo uwambariye ku gapira, bari gusudira bakoresheje ibyuma, bari gukora ibitanda. Hirya yabo hari ikibaho canditseho inyuguti zigiye zitandukanye, bari gukorera ku meza g'imbaho.

Inyubako ifite inkingi z'ibyuma z'amabara g'umweru n'ag'umuhondo， imbere hari imodoka icuritse y'amabara g’umutuku， hari n'icapa kiri mu mabara g'umweru candikishijweho inyuguti z'umutuku.

Uruja n'uruza rw'abantu benshi bari gukora akazi k'ubwubatsi, harimo abambaye amasaveti gafite ibara ry'ubururu, n'abandi, n'undi wambaye umupira gufite ibara ry'umweru n'ingofero ifite ibara ry'umutuku. Bari guponda sima bakoresheje ibiposhoro.

Abaganga bambaye udupfukamunwa, amataburiya g'umweru, bambaye n'utuntu dufite ibara ry'umweru mu mutwe. Bari kwigisha abantu uko babaga bakoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga, hirya hariyo amafoto yerekana ibice by'umubiri ndetse n'utubati.

Umukobwa wambaye amarinete go muri laboratwari, ufite ga zifite ibara ry'ubururu, n'itaburiye ifite ibara ry'umweru, wambariye ku kintu cy'umukara. Imbere ye hari imashini ifite na kibodi, na mikorosikope iremereye ndetse na bika irimo ikintu gifite ibara ry'icatsi.

Abanyeshuri babiri bambaye amataburiye g'umweruru bari gukoresha mikorosikopi bakora ubushakashatsi ku tunyangingo dutoya. Imbere yaho hari akadomoro gafite umufuniko wumutuku ndetse n'akandi gafite umufuniko w'umweru. Umukobwa n'umuhungu bambaye zaga mu ntoki.

Abanyeshuri bicaye n'abahagaze bambaye nifomo za kaki n'amashati g'ubururu bari kwigishanya gushushanya, bafashe udukaramu bakoresha bashushanya, hirya yabo hagaragara ishuri rifite amadirisha g' ubururu n'ibirahure n'ururabo rufite amabara atandukanye.

Abanyeshuri bari kurirasamburoma bari gukoma amashyi munifomu yubururu bwijimye, amashati y'umweru inyubako zubakishijwe amatafari gusa gahiye nibikuta byamabara y'umweru.

Abagabo babiri bahagaze mu byerekezo bibiri bitandukanye, bambaye udupfukamunwa dutandukanyije amabara, n'amashati y'icatsi n'ay'umukara, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga; televiziyo, miritipurize n'akandi gapima umuriro hariho n'utwuma twa tripiye, n'undi mugabo wunamye wambaye umupira wa oranje.

Abanyeshuri bambaye amashati y'umweru, harimo uwambaye isaha ndetse n'uwambaye amadarubindi, bari gukora ubushakashatsi kuri mudasobwa ziteretse ku meza mu ishuri mo imbere.

Icumba gikorerwamo umwuga w'ubudozi, harimo imashini z'ubwoko butandukanye, n'intebe zo kwicaraho, imashini z'umweru, iz'umukara izo gusirifira ndetse hakabaho n'imyenda yo kudoda.

Abanyeshuri bari mu ishuri rifite idirisha rifunguye, bambaye amapantaro n'amajipo ga kaki n'amashati g'ubururu juru, harimo n'uwambaye umupira gutari ugw'iniforume.

Abantu babiri bambaye amasarubeti gw'ubururu n'undi umwe wambaye ipantaro ifite amabara g'umuhondo n'agapira k'amabara'gumwe n'umutuku, bari gukora ku mashini bakoresheje amapensi, hirya yabo hari ameza g'umutuku.

Abanyeshuri bahagaze imbere y'ishuri, rifite inzugi z'ubururu, n'amadirishya n'ibirahure, bambaye inifomu amashati y'umweru, amajipo n'amapantaro y'umukara, imipira wa burefonse, hagati harimo umweru, bafashe ibitabo biriho amafoto.

Abantu bane bahuriye mu nzu irimo ibyuma by'umuziki bigezweho, sembare, bafure ariyo ndangururamajwi, sentetizeri na gitari byose n'imigozi yabyo, umuhungu umwe muri bo afite imisatsi, yambaye n'ishati y'igitenge, umukobwa yambaye furari mu ijosi n'agapira ka piki.